Umuntu uhagaze imbere w'inzobe akaba afite mikoro mu ntoki ndetse yambaye ikositimu ndetse na karuvati, afite indangururamajwi ari kuvuga bigaragara ko ari umuyobozi.

Abagore babiri, harimo umwe w'umukecuru ndetse n'undi ukiri muto w'umuyobozi. Aho bari mu cyumba bari mu nama, aho uyu mutoya afite indangururamajwi, ari kubwira abari aho byose ngo bikorere mu isibo, utavuye aho uri.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bakaba bahagaze ahantu bari mu nyubako bigaragara ko bitabiriye inama ari benshi cyane.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe aho bari mu nyubako higanjemo abashinzwe umutekano, hakaba harimo n'abaturage, umugabo w'umusirikare arahagurutse afashe indangururamajwi mu ntoki ndetse iruhande rwe hicaye undi mugabo w'umucungagereza.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama, gitatswemo amabara y'ibendera ry'u Rwanda ariyo: ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, buri wese imbere ye, hakaba hateretse agacupa k'amazi ndetse na ji.

Icyapa kiri mu mabara agiye atandukanye y'ubururu, aho ashushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse hakaba handitse n'amagambo agiye atandukanye ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bari mu inama, higanjemo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bakaba bateraniye hamwe bigaragara ko bari mu inama yiga ku cyateza imbere imitangire ya serivisi mu Rwanda.

Umugabo uhagaze muri salle iberamo inama, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga, akaba ari kumwe nabandi baturage, bigaragara ko ari gutanga igitekerezo cye, nabo bamuteze amatwi ye.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bari mu nama, aho baturutse mu bice bigiye bitandukanye by'Igihugu kugira ngo baze bahurire mu nama nziza cyane maze barebe ko hari icyo bakunguka.

Umugore wambaye amadarubindi n'ikanzu, akaba ari ahantu aho ari kugenda atanga ingero mu nama ari kwigisha abantu bitabiriye iyo nama uburyo ki bagomba kwitwara.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe aho harimo abambaye imyambaro y'abashinzwe umutekano b'abasirikari ndetse hakaba hateraniye n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, bakaba bari mu nama yiga ku nsanganyamatsiko runaka.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje gutezwa imbere cyane mu Rwanda, aho hari abantu bahuriye hamwe bari kwiga ingamba bakoresha kugira ngo umusaruro w'ubuhinzi wiyongere. Abo bitabiriye iyo nama, buri wese afite agacupa k'amazi imbere ye.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bahagaze ahantu bari kwifotoza bigaragara ko bari bari mu nama none irarangiye baje gushaka ifoto y'urwibutso.

Ubworozi bw'inka z'inyambo bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho izi nka ari ingenzi cyane mu muco nyarwanda bazifashisha mu bukwe bakazitaka hanyuma zikaza zimeze neza cyane.

Umuco nyarwanda ukomeje gusigasirwa cyane, aho muri iki gihe, abantu basigaye babyina imbyino za gakondo kugira ngo barebe ko banezerwa, hanyuma umuco nyarwanda ukomeze usigasirwe.

Umugabo ufite umwirongi mu ntoki, akaba ari kugenda awuvugiramo bigaragara ko uyu mwirongi ari ingenzi cyane kandi wifashishwa mu gusigasira umuco Nyarwanda maze ugatera imbere.

Mu rwego rwo gusigasira umuco nyarwanda iyo habaye ubukwe, ababyinnyi baraza mu bukwe, bakajya barabyina indirimbo gakondo, bateze amaboko, harimo abasore ndetse n'abakobwa, baba bambaye imikenyero ndetse n'amayogi.

Ingofero nziza cyane ifite imisatsi bigaragara ko ari umugara, iyi ngiyi rero yambarwaga n'Umwami Mutara III Rudahigwa kugira ngo agaragaze icyubahiro afite mu Rwanda.

Abagabo bambaye imikenyero, bakaba bahagaze ndetse banicaye, bafite udukoresho tugiye dutandukanye, bifashisha bari gucuranga, bakaba bafite n'indagururamajwi mu ntoki.

Umuco nyarwanda ukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe iyo umuntu yakoze ubukwe, atumira itorero hanyuma rikaza rikamutaramira maze umuco nyarwanda ugasakara hose mu gihugu.

Itorero ry'u Rwanda rigizwe n'abahungu ndetse n'abakobwa b'intore baba bazi kubyina no guhamiriza, bakaba bahuriye hamwe mu kirori cy'ubukwe, bakaba bari kubyina bacinya akadiho ndetse banahamiriza abari mu kirori bizihiwe.

Umwami mutara wa lll Rudahigwa ari kumwe n'umwamikazi we Rosalie Gicanda, aho bahagaze umwami yambaye imigara ari kumwe n'umwamikazi nawe yambaye uruheti.

Umurima mugari cyane, uteyemo amokogi atandukanye y'ibihingwa, aho kandi harimo amapironi, atwara insinga z'amashanyarazi, azijyana ku baturage kugira ngo babashe kugerwaho n'iterambere.

Abantu bize ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi bakaba buriye ipoto aho bari kugenda bashyiraho insinga zigiye zitandukanye kugira ngo babashe kwegereza umuriro abaturage.

Ku rugomero rw'umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda haba hari amoko menshi agiye atandukanye y'abapiloni, ndetse n'amapoto ndetse na za bateri na moteri, zifashishwa kugira ngo byohereze ingufu z'umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho mo imbere harimo utubati twinshi tugiye turimo moteri zifashishwa mu gushitura umuriro w'amashanyarazi kugira ngo abaturage batuye hafi aho ngaho bacane.

Ahantu bacuruza ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse n'ibijyanye n'ingufu z'amashanyarazi, haba hari ibikoresho byose ku buryo icyo wakenera cyose wahagera bakakiguha maze ugakirigita ifaranga.

Igikoresho kizwi nka mubazi kiba kiri ahantu ku nzu kiba kibara umuriro w'amashanyarazi umuntu afitemo ndetse n'uwo yakoresheje, tutibagiwe n'uwo agomba gukoresha mu gihe runaka.

Umuntu ukorera Ikigo cy'igihugu gishinzwe amashanyarazi ndetse n'ingufu z'umuriro, akaba ari ahantu kuri mubazi, ari kugenda ashyiraho insinga neza kugira ngo izajye irushaho kubara neza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho ifite amabati y'ubururu, ikaba ari isoko ahacururizwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku buryo icyo wakenera cyose ukibona.

Imodoka zigera muri ebyiri zikorera imizigo ziri kugenda mu muhanda aho zigiye guca ku kiraro, iki kiraro rero ni kiza cyane kuko cyubatswe na Leta baragikomeza ku buryo imodoka nizikandagiraho ntacyo kiraba.

Ikiraro cyubatswe neza cyane, gifite ibyuma biri mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda, ariyo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, bikaba bikikijwe n'udusenyenge twiza ndetse n'ibiti birebire.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe aho harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari kugenda bava mu gihugu cya Uganda baza mu Rwanda, aho hari icyapa cyanditseho ngo repubulika ya Uganda tubifurije urugendo ruhire.

Ikiraro kinyuze mu kirere kiri kugenrwaho n'abantu bagiye batandukanye, aho iki kiraro ari ingenzi cyane, kikaba cyarashyizweho na Leta y'u Rwanda, mu rwego rwo koroshya ingendo ndetse no kuba zanozwa.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'ishuri, aho hari abantu bari kugenda bayiganaho, bigaragara ko ari abarimu. Imbere hari inkingi ziri mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda, ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umugore uri kugenda ku kiraro afashe umwana ukuboko. Bakaba bari kugenda bigaragara ko iki kiraro gikomeye cyane ndetse cyubatswe na Leta ku buryo nta muntu wapfa guhanuka.

Ikiyaga kiza cyane kandi kigari kikaba gikikijwe n'ahantu hari ubusitani bwiza cyane bwubatsemo utuzu dusakajwe amabati y'ubururu, twubatswe mu buryo bw'uruziga ndetse n'utundi twinshi cyane.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri aho yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru ndetse n'imiryango isa umukara. Inyuma yayo hari ibiti birebire.

Ikiraro cyubatse neza cyane aho munsi yacyo handitse amagambo ngo kubakwawa ibikorwa remezo, Nyagatare ikiraro cya bibare cyabaye igisubizo, batarabonaga uko bagezaga umusaruro ku isoko.

Igicumbi cyubatse ahantu kiri mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda ari yo ubururu ndetse n'umweru n'icyatsi n'umuhondo kikaba cyanditseho amagambo menshi ariko giherereye mu Karere ka Nyagatare.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho handitseho ngo ingoro y'ubutabera. Haparitse imodoka nyinshi hari kuvamo umuyobozi, akaba agiye kwinjira muri iyo nyubako ngo atangire akazi ke.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange kizwi nk'imodoka, aho iri kugenda mu ruhande rw'iburyo uwo muhanda ukaba ukikijwe n'imikingo miremire.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako ifite amadirishya meza cyane ndetse ikaba ihagazemo abantu benshi bitabiriye iyo nama bari bajemo.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho zisakaje amabati y'icyatsi, zikaba zifite ibikoresho bigiye bitandukanye by'imyero, byifashishwa.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'umutuku, inzugi n'ubururu, imbere yazo hahinze ibigori.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho dutakaje amabati y'ubururu ndetse inyuma yazo hakaba hari ishyamba rinini, imbere hari imboga ishashemo amapave, iri kugendwamo n'abayobozi.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bateraniye hamwe aho bari mu nama, imbere yabo hakaba hari umusaza uhagaze, ufite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara ko ari gutanga igitekerezo.

Inyubako nziza z'amashuri aho zifite ubusitani buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho muri ubwo busitani hahagaze abantu benshi cyane bari mu nama bigaragara ko ari abarimu.

Inyubako nziza cyane yubatwe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako mo imbere harimo abantu benshi cyane bagiye batandukanye baje mu nama harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye bakurikiye umuntu uri kubagezaho inama.

Abagabo bagiye batandukanye, aho bahagaze imbere y'igicumbi cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse bikaba bigaragara ko aba bantu ari abayobozi.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu benshi cyane, bari mu nama bakaba biganjemo abana ndetse n'abakuru, hakaba hari n'amadente y'ubakishijeje amabara y'umweru n'umuhondo, bakaba bari kugenda baganira.

Itara riri kwaka riri ahantu heza cyane hijimye rikaba riri kwerekana ko aha ngaha bari mu gikorwa cyo kubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse no gushyiraho ubutabera aho buri muntu agomba kujya yitabwaho.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bateraniye hamwe, aho bicaye mu busitani, buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho bose barebye imbere, bari kureba umuntu urimo kubakoresha inama.

Umugabo wambaye isaha ku kuboko, akaba ahagaze ahantu mu busitani, bigaragara ko ari mu kigo cyamashuri, ari kugenda aganiriza abanyeshuri, ababwira ko bagomba kubahiriza uburenganzira bwa muntu.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye ndetse n'abaturage bahurijwe hamwe, aho bari ku ishuri imbere yabo hakaba hari umupolisi uri kubaganiriza ukuntu bagomba guteza imbere uburinganire ndetse n'ubutabera bakubahiriza n'uburenganzira bwa muntu.

Imodoka zigiye zitandukanye, zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zikaba ziri kugenda ahantu mu muhanda, aho ziri kugenda zitwara abantu bagiye batandukanye, mu nce zose baba bagiyemo.

Akapa kerekana umuvuduko umuntu utwaye ikinyabiziga agenderamo kakaba gateye mu busitani kakaba gafite amabara y'umutuku n'umweru ndetse n'imbere kanditsemo umubare mirongo itandatu.

Umugabo w'umusirikari uhagaze ahantu aho yazamuye ibiganza bye ari gusuhuza abari aho ngaho, akaba akikijwe n'abapolisi babiri, aho bicaye bari mu nama. Inyuma yabo hari n'abandi baturage..

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bahuriye hamwe aho bari gikorwa cya Leta cy'umuganda aho bari kugenda bakora umuhanda kugira ngo ugire isuku hanyuma umere neza.

Umugabo uhagaze afite indangururamajwi mu ntoki, akaba arigeza ijambo ku baturage, yambaye ishati nziza cyane, akaba ari umuyobozi, ari kubabwira uburyo ki bateza imbere imishinga yabo.

Inyubako nziza cyane yubakishije ibiti, aho iyo nyubako iriho abantu benshi cyane bari kugenda bayubakisha urugo rw'amatafari, kugira ngo bayuzuze nyirayo ayitahemo.

Abashinzwe umutekano bakaba bicaye ahantu munsi y'igiti, bigaragara ko bari mu nama, harimo umusirikari n'umupolisi n'abandi baturage babiri, bakaba bicaye bigaragara ko bari mu nama.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye barimo abasirikari ndetse n'abaturage, bari mu gikorwa cy'umuganda aho umusirikare afite isuka akaba ari guhinga kugira ngo yereke abaturage urugero rwiza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho hateraniyemo abantu benshi cyane baje mu nama, higanjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, abenshi muri bo bambaye utujiri, bigaragaza ko ari abakorerabushake.

Abantu benshi bagiye batandukanye bicaye ahantu mu twatsi harimo inzego z'umutekano, bivuze ko ari abasirikare babiri ndetse n'abandi bayobozi batatu bakaba bari gukoresha abaturage inama na bo babakurikiye.

Abantu bari kugenda mu nzira bikoreye amabuye bigaragara ko bari mu gikorwa cy'umuganda, aho bashaka guteza Igihugu cyacu imbere, bakaba bari imbere y'inyubako y'ikigo cy'amashuri.

Ahantu hari gukorerwa imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, harimo abantu bagiye batandukanye bari kugenda bakora iyo myitozo, higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, imbere hari abantu bari kugenda baberekera.

Abakinnyi bari gukina umupira w'amaguru aho bari kugenda mu kibuga bambaye impuzankano ziri mu mabara agiye atandukanye, aho bamwe bari gukina abandi bari kwataka kugira ngo barebe ko hagira ikipe itsinda bakaba bameze neza.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu nama higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo ndetse harimo n'inzego z'umutekano za gipolisi, bakaba bicaye bose barebye imbere bakurikiye iyo nama.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, aho bari gukora imyitozo ngororamubiri, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, aho bari kugenda bakora imyitozo ngororamubiri, basimbuka ndetse binanura.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bari mu kibuga bigaragaza ko bari gukina umupira w'amaguru. Bakaba bambaye imyambaro yabugenewe bari kugenda batakana kugira ngo barebe ikipe imwe iraza gutsinda muri izo ngizo.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru aho bahagaze hamwe bari kwifotoza bambaye imyambaro y'umweru na orange hasi naho umunyezamu wabo we yambaye imyambaro y'umukara igiye itandukanye.

Abantu benshi bahuriye mu kibuga, aho bari gukina umukino w'amaguru, hakaba harimo umugore uri kubasifurira, ubyibushye cyane wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'umutuku n'inkweto z'ubururu, akaba ari kugenda akina na bo.

Mu kibuga ahari gukinirwa umukino w'amaguru aho harimo amakipe abiri, harimo abakinnyi batatu bari kugenda biruka mu kibuga bagiye gushaka umupira kugira barebe ko batsinda igitego.

Abakinnyi bari mu kibuga bambaye imyambaro iri mu mabara y'ubururu n'icyatsi, bakaba bahagaze bigaragara ko biteguye gukina isaha n'isaha, ikibuga barimo kirimo ibyatsi byinshi.

Abantu benshi cyane bari mu kibuga bakaba bari gukina umukino w'amaguru, bambaye impuzankano zisa bigaragara ko ari ikipe imwe. Bari muri sitade aho inyuma yabo hari intebe bicaraho ziri mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, aho bambaye imyambaro y'umuhondo, bakaba bicaye ahantu ku ntebe y'abasimbura, bategereje ko uragira ikibazo cyangwa urananirwa baramusimbura mu kibuga.

Abantu bari mu kibuga aho bari gukina umupira w'amaguru, aho hari umugore ubyibushye wambaye ipantaro y'umukara, akaba ahereza umupira undi mukinnyi nawe yitegura guhita ahereza mugenzi we.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bari mu gikorwa cya siporo, aho bambaye imyambaro igiye itandukanye ndetse imbere yabo, hakaba hari umuntu uri kugenda aberekera ibyo bagomba gukora.

Umuhanda wa kaburimbo ugiye ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru tugiye dutandukanye, aho hari kugendamo abantu mu mpande zombi ndetse hakaba harimo n'ubusitani bwiza cyane buteyemo indabyo.

Ubusitani buteyemo amoko agiye atandukanye y'umucaca ndetse hirya hakaba haparitse moto, aho ubu busitani ari bwiza cyane, nubwo butaringaniye ku buryo umuntu yabwicaramo.

Abantu bagiye batandukanye batwaye ibinyabiziga bari kugendera mu gahanda agashashemo amabuye ariko kari ahantu mu cyaro. Hari umwe ugiye gutega moto ndetse n'undi uri kugenda n'igare.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza cyane, aho uwo muhanda ufite akarongo k'umuhondo kawugabanyamo kabiri, kerekana aho ibinyabiziga bizamuka ndetse n'ibimanuka bigomba kunyura.

Mu cyaro iyo hageze umuhanda wa kaburimbo, riba ari iterambere ryahageze. Ni byiza ko mu mihanda y'aho dutuye, twahashyira kaburimbo kugira ngo iterambere natwe rizabashe kutugeraho.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo n'umugore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ijya gusa umukara, akaba ari kugenda awambuka yihuta kubera ko atari ahabugenewe.

Umuntu uvuye kuvoma ku igare akaba asunitseho amavido ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo ariko agendera mu kayira k'abanyamaguru, uwo muhanda ukaba ari mwiza cyane kandi ukikijwe n'ubusitani.

Umuhanda w'igitaka ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru, aho harimo sima igiye isashe kuri utwo tuyira abanyamaguru banyuramo igihe baba bari kugenda muri uwo muhanda.

Umuhanda unyuramo akayira karombereje, ukaba unyura ahantu hahinze ibigori bigaragara ko byamaze kuma ndetse no gusarurwa, bakaba bategereje kuhahinga ihinga rikurikiyeho.